Icyapa kigaragaraho umuntu ndetse bikaba bigaragara yuko ari ikigo cy'ubwishingizi, aho gifasha umuntu wese kikamwishingira haba abahinzi, haba abacuruzi, buri wese uko akeneye kwishinganisha kikaba cyamufasha muri serivise akeneye yose.

Icyapa kiriho umuntu ndetse hakaba hagaragaraho n'izina ry'ikigo ikigo radiyanti. Iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi aho umuntu wese ukeneye serivise zijyanye no kwishingirwa haba mu mitungo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye agana iki kigo kikabafasha kubimufashamo.

Abantu batandukanye bafashe icyapa cy'ubururu, amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umweru. Iki akaba ari ikigo kitwa saniramu ikigo cy'ubwishingizi kikaba gishinzwe kwishingira abantu kubijyanye n'imitungo yabo.

Icyapa kiriho abantu batatu harimo umwana ndetse n'umugore n'umugabo bikaba bigaragara yuko ari ikigo cy'ubwishingizi kirimo kwiyamamaza kugirango umuntu wese waba ukeneye iyo serivise yo kwishinganisha kibashe kuba cyamufasha mubyo akeneye byose.

Icyapa kiriho umuntu ndetse kikaba kigaragara ko kiriho amagambo y'ikigo cy'ubwishingizi, aho iki cyapa bacyifashisha mu kwiyamamaza kugira ngo abantu bose baba bakeneye serivisi zijyanye n'ubwishingizi babashe kukigana kibashe kubaha serivisi zose nziza z'ubwishingizi.

Icyapa kiriho umwana wambaye ingofero, akaba afashe igikoresho bakoresha mumukino, ndetse hakaba hagaragaraho amagambo atandukanye kuri icyi cyapa bigaragara yuko ari amagambo ya ikigo cy'ubwishingizi, gifasha abantu mukuba cyabishingira mu bintu bitandukanye.

Icyapa cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi kitwa Sanlam ahangaha hakaba ari ahantu abantu batandukanye bashobora kugana igihe cyose baba bakeneye ubwishingizi bugendanye n'ibicuruzwa byabo cyangwa se bugendanye ni mari bafite cyangwa se bashaka kugirango bishinganishe bizere yuko ejo habo hatekanye.

Icyapa kiriho izina ry'ikigo sanarwa, iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi aho gifasha abantu batandukanye mu kubishingira haba mu bijyanye n'imitungo, kugira ngo birengere ingaruka bashobora kuzahura nazo igihe kizaza.

Icyapa kigaragaramo umuntu ufashe igikapu mu ntoki ndetse n'ikindi gikapu akaba agihetse hakaba hariho n'izina ry'ikigo cyitwa sonarwa, iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi aho aho gishobora kugufasha mu kukwishyingira mu bikorwa bitandukanye ufite bya buri munsi.

Abantu babiri basuhuzanya ndetse hakaba hagaragaraho n'izina ry'ikigo kitwa Radiyanti, iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi aho gifasha abantu kwishinganisha kugira ngo babashe kuba bagira umutekano w'ejo hazaza.

Imodoka nyinshi cyane ziri kugenda mu muhanda mugari cyane wa kaburimbo. Mu mpande z'uwo muhanda hari inyubako ndende z'amagorofa, mu gihe ku ruhande rundi rw'umuhanda ho hari icyapa cyamamaza.

Inzu nziza igaragara ku cyapa, ndetse hakaba hariho n'izina ry'ikigo Radiyanti, ahangaha bakaba barimo kwamamaza ikigo, kugira ngo umuntu wese ukeneye kwishinganisha abe yabasha kugenda abagane, bamuhe ubwishingizi bwose akeneye.

Apurikasiyo yifashishwa na banki kugira ngo ibashe kuba yakemura ibibazo bitandukanye by'abakiriya, igihe cyose bakeneye serivisi z'ikoranabuhanga, batavuye aho bari, haba mu kohereza amafaranga cyangwa se mu kwakira amafaranga, bakaba babasha kuyikoresha kugira ngo abashe kubageraho.

Apurikasiyo ikoreshwa na banki igamije kugira ngo umuntu yoherereze undi amafaranga cyangwa se we yakire amafaranga hanyuma ibyo byose akabikora akoresheje ikoranabuhanga rya telefone atavuye aho ari.

Apulikasiyi ikoreshwa na banki aho umuntu ashobora kuyifashisha akabasha kuba yakoherereza amafaranga umutu cyangwa se we akakira amafaranga hanyuma akabikora byose akoresheje terefone atavuye mu rugo.

Icyapa kigaragaza apurikasiyo ikoreshwa na banki, aho umuntu ashobora kwakira amafaranga avuye ku wundi cyangwa se we akaba yayohereza akoresheje ikoranabuhanga rya telefoni cyangwa se na mudasobwa, hanyuma akabasha gutanga serivisi zose zigenewe undi muntu.

Abakozi k'umurimo urabona ko imbere hari ingorofani yikorera imizigo, imbere yaho hari abacuruzi ndetse nabamotari batwaye moto bisa naho bagiye mukazi ndetse niruhande rwabo harimo aba papa beza cyane bagiye mukazi.

Apurikasiyo yifashishwa na banki igamije kugira ngo umuntu akoreshe ikoranabuhanga rya telefoni, abashe kuba yakwakira amafaranga avuye kuri mugenzi we cyangwa se abashe kuba na we yayoherereza mugenzi wiwe.

Imyenda itandukanye imanitse ku bikoresho byabugenewe, ndetse iringiri akaba ari iduka ry'imyenda aho umuntu wese ufite amafaranga wifuza umwenda wo kwambara ashobora kujyayo hanyuma akagura umwenda wose yifuza ku giciro cyose bamubwiye yaba afite.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye, iby'imitako ndetse n'inkweto zo kwambara, aha ngaha akaba ari ahantu umuntu ashobora kugenda igihe cyose afite amafaranga, akabasha kuba yagura ikintu cyose ku mafaranga afite hanyuma akagicyura akakijyana iwe mu rugo.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hagaragaramo imisego, hagaragaramo imbuto, aha ngaha akaba ari ahantu umuntu ashobora kugenda guhahira ikintu cyose akeneye yumvikanye ku giciro, hanyuma akabasha kugitwara akabasha kuba yagikoresha icyo ateganya kugikoresha.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo inkweto, amasakoshi, imitako, imyenda, aha ngaha akaba ariho abantu bajya kugurira icyo bakeneye cyose.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye hakaba hagaragaramo amashati amanitse neza, hakagaragaramo ibikapu, hakagaragaramo inkweto. Ahangaha akaba ari ahantu umuntu ashobora kujya igihe cyose hari icyo akeneye afite amafaranga yiwe, akaba yabasha kukigura.

Imyenda imanitse neza ahantu ahangaha akaba ari mwiguriro aho abantu bashobora kujya kugurira igihe cyose bashaka umwenda wo kwambara bafite amafaranga yo kuwugura.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo cyane cyane imyambaro, ahangaha akaba ari ho umuntu abasha kujya igihe cyose akeneye umwambaro wo kugura, hanyuma akajyayo akawugura, akawujyana iwe, akazawambara.

Abantu batandukanye ndetse imbere yabo hakaba hagaragara ufite mudasobwa, bikaba bigaragara yuko aha ngaha ari mu iduka aho umuntu ahaha ibicuruzwa, akagenda bakamushyira muri system bakareba ibyo yahashye hanyuma bakamubwira igiciro cy'ayo agomba kwishyura.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo abantu batandukanye ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye hepfo yaho hakaba hagaragaraho ibyapa biriho izina ry'ikigo cyitwa yundayi, iki akaba ar'ikigo kimenyerewe mu kugurisha imodoka, aho umuntu ufite amafaranga wifuza imodoka abasha kubagana hanyuma bakamuha imodoka yifuza.

Abantu babiri bahagaze iruhande rw'imodoko, bikaba bigaragara yuko barikwamamaza yuko iyi modoka ishobora kuba igurishwa, aho umuntu wese ufite amafaranga ndetse akaba yifuza imodoka, ashobora kugenda bakumvikana kugiciro hanyuma akabasha kuyitwara.

Imodoka nziza twita kwasiteri iri mu ibara ry'umweru iyingiyi bikaba bigaragara yuko iri kwamamazwa yuko ishobora kuba yagurishwa ahangaha umuntu ufite amafaranga akeneye imodoka arabasha akagenda akumvikana n'abashinzwe kuyigurisha hanyuma bakayimuha.

Imodoka nyinshi zikorwa n'inganda zitandukanye. Izi modoka kandi zitandukanye mu ngano, amabara ndetse n'ibiciro. Birasa nk'aho izi modoka ziri kugurishwa.

Imodoka z'umweru zizwi nka kwasiteri ndetse zikaba ziparitse ahantu zikaba zanditseho izina ry'ikigo dusanzwe tumenyereye mu bwikorezi bw'abantu, aha ngaha ndetse bikaba bigaragara yuko ufite amafaranga ukeneye kuba wayigura nabwo ushobora kuba kuba wayigura

Imodoka iparitse nziza bikaba bigaragara yuko iri ku isoko irimo kugurishwa, aho umuntu wese ufite amafaranga ashobora kugenda akumvikana n'abashinzwe kuyitanga hanyuma akaba yayigura akayigira iye.

Imodoka nziza iparitse bikaba bigaragara yuko iri ku isoko, aho umuntu wese ufite amafaranga uyikeneye ashobora kugenda bakaba babasha kuyimuha ku mafaranga bumvikanye.

Imodoka nziza iri mu ibara ry'umukara bikaba bigaragara yuko ari imodoka ishobora kugurishwa aho uwo muntu ufite amafaranga wifuza imodoka ashobora kugenda akumvikana n'abashinzwe kuyigurisha hanyuma bakayimuha ikaba iyiwe.

Amafaranga arambitse ku meza akaba ari ibihumbi bitanu by'amanyarwanda bikaba bigaragara yuko twayakoresha mu buryo butandukanye duhaha ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kunkwa harimo ibyo kwambara nibindi byose twakenera muri ubu buzima birimo nibyo kurya.

Inote y'amafaranga maganatanu y'amanyarwanda ayangaya tukaba tuyifashisha mu kuba twayahahisha ibiribwa ndetse tukaba twayahahisha ibinyobwa ndetse muri rusange akaba yadufasha no mu iterambere ryacu rya buri munsi ibikorwa byagutse birimo n'imyubakire.

Ibikoresho bitandukanye birimo furigo ndetse n'ameza. Hakaba hagaragara n'icyapa kiriho amata ari kuva mw'ikarito yanditseho Mukamira dayari, ndetse hakaba hagaragara n'ibinyobwa bitandukanye birimo ji. Ahangaha akaba ari mw'iduka cyane cyane ritanga amata.

Etajeri irimo ibinyobwa bitandukanye birimo amazi ndetse n'imitobe ndetse na fanta, bikaba bigaragara yuko aha ngaha ari ahantu abantu bashobora gusohokera igihe cyose bashaka icyo kunywa, bakaba babasha kujyayo bakabasha kwishyura, hanyuma bakakibaha.

Ibicuruzwa bitandukanye birimo imineke ndetse n'izindi mbuto muri rusange bikaba bigaragara yuko ahangaha ari ahantu umuntu ashobora kugenda agafatirayo ibinyobwa ndetse n'ibyo kurya birimo imbuto hanyuma akabasha kwishyura amafaranga asabwa kwishyura.

Urugi ruri mu ibara ry'ubururu rukaba rugaragaraho icyapa kiriho inka ndetse hakaba handitseho n'izina ry'ikigo Nyanza miliki indasitiri, iki akaba ari ikigo gishinzwe gutunganya amata hanyuma tukabasha kuyabona ari meza.

Etajeri irimo ibicuruzwa bitandukanye ndetse haragaragaramo amazi, hakagaragaramo anvelope ndetse hakagaragaramo n'inkongoro zagenewe gushyirwamo amata ndetse haragaragara n'icyapa kiriho inka bikaba bigaragara yuko ari ahantu hashobora gucururizwa amata.

Abantu babiri bicaye ndetse bakaba bicaye ku meza y'umweru hakaba hateretsweho n'utujerekani tw'umweru abo bantu bakaba bafashe ibikombe by'amata ndetse bakaba bafashe n'imigati cyangwa se keke mu ntoki hanyuma hakaba hagaragara n'undi umwe uhagaze bigaragara yuko arimo arabahereza amata kugira ngo babashe kunywa.

Inyubako igizwe n'amakaro ndetse bikaba bigaragara yuko hateretsemo icyuma cyabugenewe iki kikaba kifashishwa mu gutegura ndetse no kubika amata neza bikaba bigaragara yuko ahangaha haba uruganda rushinzwe gutunganya no gutegura amata neza.

Etajeri iriho igitambaro cy'ubururu, ndetse hakaba handitsweho n'amagambo mu ibara ry'umweru, ikaba irimo n'amajerekani y'umweru twifashisha mu gushyiramo, haba amazi cyangwa amata.

Urupapuro ruriho izina ry'ikigo supeni, aha ngaha bakaba bagaragaza uburyo bukoreshwa mu ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora kuba afite mudasobwa yiwe cyangwa se afite telefone yiwe, hanyuma akaba yabasha kwishyura ndetse akabasha no kwakira amafaranga akoresheje iryo ikoranabuhanga.

urupapuro rugaragaza uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa hagamije kuba hakishyurwa amafaranga cyangwa se kuba habitswa amafaranga cyangwa se kwohererezwa amafaranga kugirango ibijyanye na serivise zo kuba uri mu rugo iwawe ube wabasha kuzikurikiza ntakibazo ugize.

Abantu babiri umwe akaba afashe telefone muntoki, bakaba bari kwerekana uburyo bushobora kwifashishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, hanyuma umuntu akaba yakwishyura ibicuruzwa bitandukanye, cyangwa se akabasha kohereza amafaranga no kuyakira.

Icyapa kigaragaraho ikiganza gifashe telefoni, aha ngaha bakaba bari kwerekana uburyo umuntu ashobora kwifashisha ikoranabuhanga rya telefoni, akabasha kuba yakwaka inguzanyo cyangwa se akabasha kwishyura inguzanyo akoresheje telefoni.

Urupapuro rugaragaza uburyo umuntu ashobora kohereza amafaranga cyangwa se akayakira, hakoresheje itumanaho rya telefone cyangwa se rya mudasobwa.

Urupapuro rugaragaza uburyo bishyura bakoresheje ikoranabuhanga, yaba se irya telefone cyangwa se irya mudasobwa, aho umuntu ashobora kuba yakohereza amafaranga ndetse akaba yabasha no kuyakira.

Icyapa kigaragaza uburyo bukoreshwa mu ikoranabuhanga, hishyurwa amafaranga ku bicuruzwa runaka, cyangwa se aho umuntu ashobora kuba yakoresha telefoni akoherereza umuntu amafaranga ndetse akaba yanabasha no kuyakira, hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Urupapuro rw'umweru rugaragara muri mashine ndetse hakaba hagaragara yuko handitsweho amagambo mu ibara ry'umukara, ahangaha akaba ar'ikigo k'imisoro n'amahoro kiba kigaragaza ko umuntu yishuye amafaranga runaka ndetse ko nta musoro yaba asigaranye yose yishyuwe.

Urupapuro rugaragaza ko ikigo runaka cyangwa se umushoramari runaka yishyuye imisoro, rukaba rutangwa n'ubundi n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro aricyo cya Rwanda reveni, aho kiba kigeneye kugaragaza y'uko uwo muturage cyangwa se uwo rwemeza mirimo yishyuye imisoro yose isabwa kwishyura.

Urupapuro rwifashishwa na banki aho iba ishaka kugaragaza konti y'umukiriya uko ihagaze hanyuma ikabasha kwerekana amafaranga uko yinjiye ndetse n'uko yagiye asohoka.

Urupapuro rw'umweru amagambo yanditswe mwibara ry'umukara , rukaba rugaragaza yuko umuntu aba yaramaze kwishyura imisoro asabwa kwishyura.

Urupapuro rw'umweru ndetse ruri muri mashine, amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umukara. Rukaba ruriho izina ry'ikigo 'Rwanda Revenue Authority'. Iki akaba ari ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho gitanga urupapuro kugira ngo rwemeze ko ikigo cyangwa umushoramari nta mwenda abereyemo igihugu.

Urupapuro rugaragaraho izina ry'ikigo banki ya Kigali, icyi akaba ari ikigo cy'imari, aho abantu bashobora kujya gufata inguzanyo ndetse bakaba babitsa n'amafaranga bakabasha nokubikuza. Urupapuro rukaba rugaragaza rero abantu amafaranga bafitemo ndetse n'ibijyanye nokubitsa kwabo.

Urupapuro rukoreshwa na banki ishaka kugaragariza umukiriya konti yiwe uko ihagaze imwereka imwereka uburyo amafaranga yiwe yinjiye ndetse n'uburyo yagiye asohoka kugira ngo bimufashe kumenya amakuru y'amafaranga afite kuri konti.

Urupapuro rw'umweru amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umukara akaba ari urwa rwada reveni otoriti ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'amahoro uru rukaba rumenyekanisha ko umuntu yamaze kwishyura umusoro yaragenewe kwishyura.

Urupapuro rw'umweru amagambo akabayanditse mu ibara ry'umukara, rukaba ari urw'ikigo k'imisoro n'amahoro aho rugaragaza uburyo umuntu aba yarishyuye imisoro yose yagombaga kwishyura muri icyo gihe cy'umwaka cyangwa se igihe runaka.

Urupapuro rutangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, rukaba rugihereza ba rwiyemezamirimo, abashoramari ndetse n'ibigo bitandukanye, bashaka kugaragariza abashoramari cyangwa se icyo kigo, ko nta misoro gisigayemo.

Urupapuro ruriho izina ry'ikigo gishinzwe imisoro ndetse namahoro mugihugu aho urupapuro rutangwa kuri ba rwiyemezamirimo cyangwa se kubashoramari runaka cyangwa se kubigo runaka bagaragaza yuko ibyo bigo cyangwa se abobashoramari ntamusoro basigariyemo Leta.

Urupapuro ruriho ikirango cya Banki ya Kigali. Uru rupapuro ruragaragaza uburyo umukiriya yakoresheje konti ye mu gihe runaka. Hariho uko yasohoraga amafaranga ndetse n'uko yayinjizaga.

Amafaranga y'inote ayangaya akaba adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi haba mu bikorwa bijyanye no guhaha ibicuruzwa birimo ibyo kurya birimo ibyo kunkwa birimo nibyo kwambara ndetse tukaba tunayifashisha mu iterambere ryagutse ririmo irijyanye no kubaka amazu.

Amafaranga menshi cyane arunze ku meza. Hari umuntu uri kuyabara, bisa n'aho amaze kuyahabwa ako kanya.

Amafaranga twifashisha muburyo bwo guhaha ibicuruzwa bitandukanye ndetse tukaba tunabasha kuyakoresha tuvunjisha kugira ngo tugirane ubuhahirane n'ibindi bihugu, hanyuma tugire iterambere muburyo bwihuse.

Icyapa kigaragaza uko agaciro k'amafaranga gahagaze muri buri gihugu, ahangaha ndetse ukaba uba wabasha kuba wajyayo bakabasha kuba bakuvunjira bitewe n'amafaranga ushaka ayo ari yo izi serivise zose bakaba bazitanga.

Amafaranga atandukanye harimo n'amadorari ndetse aha bikaba bidufasha kumenya agaciro k'ifaranga n'uburyo ndetse twayakoresha, aho adufasha mu guhaha ibicuruzwa bitandukanye birimo ibiribwa, birimo ibyo kunywa, birimo imyambaro ndetse n'ibindi.

Umuntu ufashe amafaranga mu ntoki, bikaba bigaragaraza kugira ngo turebe tube twamenya agaciro kayo, ndetse tukaba tuzi y'uko adufasha mu kugura ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibyo kurya, birimo ibyo kunywa, imyambaro ndetse n'ibindi.

Akazu ndetse kari mu mabara y'icyatsi n'umweru, bikaba bigaragara yuko ari ahantu habugenewe hashinzwe gutanga serivise zijyanye n'ivunja ndetse n'ivunjisha ry'amafaranga ndetse n'ibijyanye no kuba umuntu yakohereza amafaranga ahantu runaka.

Akazu gatoya kariho ibyapa bitandukanye ahangaha akaba ariho babasha gukorera ibijyanye n'ivunjisha ndetse n'ivunja ry'amafaranga aho buri muntu wese waba ukeneye kugira ngo bamuvunjire amafaranga abasha kujyayo bakabasha kumuha iyo serivise.

Ahatangirwa serivisi zo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga. Buri wese ukeneye serivisi nk'izi arabagana.

Abantu babari bahagaze umumwe akaba ahagaze imbere y'icyuma gitanga amafaranga, ndetse undi akaba ahagaze yafi yaho bavunjishiriza amafaranga, ibi byose akaba ari bimwe muri serivisi zitangwa kugirango umuntu abashekuba yabona amafaranga ndetse abashe kuba yabona ayo yifiza.

Inzu ntoya ikaba iriho ibirango bitandukanye bikaba bigaragara yuko ari ahantu bakoreshereza gahunda yo kuvunjisha ndetse no kuvunja amafaranga muri rusange aho umuntu ukeneye amafaranga ko bayamuvunjira abasha kujyayo bakabasha kumuha iyo serivise bakamufasha.

Inyubako iriho ibyapa bigaragaraza yuko aha hantu hakorerwa serivise y'ivunjisha ndetse n'ivunja ry'amafaranga, aho umuntu wese ukeneye kuvunjisha amafaranga abasha kujyayo bakabasha kumuha amafaranga yose akeneye.

Ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga. Ubagana ufite amafaranga y'amanyamahanga, bakayaguha mu bwoko bw'ayo wifuza.

Akazu gatoya kamanitseho ibyapa by'ibigo bishinzwe kuba byatanga amafaranga haba kuyavunjisha ndetse no kuyavunja ndetse n'igihe cyose umuntu akeneye amafaranga kugirango bayamuvunjire aragenda bakamufasha ndetse bakaba bamufasha no muri serivise yo kwohereza amafaranga no kuyacyira.

Akazu gatoya kariho ibyapa bitandukanye ahangaha bakaba bagaragaza yuko bavunja amafaranga ndetse bakaba bagaragaza yuko banatanga amafaranga aho umuntu ukeneye kuvunjisha agenda bakamuvunjira bakamuha amafaranga akeneye.

Inzu iriho ibyapa bitandukanye ndetse imbere yayo hahagaze umuntu akaba ari keitegereza serivisi zitandukanye zitangwa aho ngaho, harimo izijyanye n'ivunja ndetse n'ivunjisha ry'amafaranga, aho iyo umuntu afite amafaranga babasha kumuvunjira akabasha agatwara amafaranga ashaka.

Inyubako iriho icyapa kigaragaza yuko aha hantu hakorerwa serivise yo kuvunja no kuvunjisha amafaranga, aho umuntu ufite amafaranga runaka hari amafaranga akeneye agenda bakabasha kumuvunjira hanyuma akabasha gutwara amafaranga yifuje.

Intebe dukoresha twicaraho ndetse n'ameza adufasha mu guterekeho ibintu bitandukanye. Bikaba bigaragara yuko ibi ari ibikoresho igihe cyose waba ubikeneye ushobora kugenda kuba wabigura kugira ngo bikugirire umumaro ube wabasha kwakira abashyitsi.

Imbaho nyinshi zirundanyije ahantu, ndetse izi zikaba zitugirira akamaro kenshi, mu bijyanye n'ibikorwa bya buri munsi harimo ubwubatsi bw'amazu, ndetse tukaba tunazifashisha dukoramo ibikoresho bitandukanye harimo intebe ndetse n'ameza, tubasha kwifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibikoresho by'intebe abantu bicaraho ndetse n'ameza baterekaho ibintu. Ibi bikoresho ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi, by'umwihariko ku bafite umuryango wagutse, cyangwa se abakunda gusurwa cyane.

Inyubako nziza ndende bikaba bigaragara yuko aha ngaha ari muri hoteli, aho abantu bashobora gusohokera bakahakorera inama, ndetse bakaba banabasha kuba bakwiyakira bagafata icyo kunywa n'icyo kurya, ndetse no mugihe bakeneye kuharuhukira bakaba baruhuka.

Inyubako nziza iri ahantu heza bikaba bigaragara yuko ari muri hoteri aho abantu bakunze gusohokera bagiye gufatirayo icyo kunywa, icyo kurya ndetse niyo bakeneye kuruhuka bakaba babasha kuruhuka kugirango barusheho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza cyane ndeste hakaba hagaragaraho n'izina ry'ikigo kitwa komveshoni senta, ahangaha akaba ari ahantu abantu bashobora kujya bagakorera inama ndetse bakabasha kwiyakira hanyuma bakabasha kuba bakungurana ibitekerezo kuri gahunda zitandukanye akaba ari ahantu hatekanye.

Inyubako nziza cyane iri kurabagirana. Iyi nyubako ni hoteli, ikaba yubatse ahantu ku muhanda. Ni mu masaha y'ijoro kuko ni yo mpamvu amatara ari kwaka kuri iyi hotel ndetse no ku zindi nyubako ziyikikije.

Ahantu heza hatunganyije neza, ndetse hakaba hagaragara inyubako nziza. Bikaba bigaragara yuko aha ngaha ari muri hoteli, aho abantu bashobora gusohokera bakabasha kuba bafata icyo kunywa, icyo kunywa, ndetse mu gihe bumva bananiwe bakaba baharuhukira.

Inyubako nziza yubatse neza iri ahantu heza bikaba bigaragara yuko iyingiyi ari hoteli, aho abantu bashobora gusohokera bakabasha gufata icyo kunywa ndetse n'icyo kurya ndetse no mu gihe bumva barushye bakaba babasha kuharuhukira.

Izina ry'ikigo Radisoni buru. Iyingiyi akaba ari imwe muma hoteri akomeye muguhugu cy'urwanda, aho abantu bashobora kugenda bagasohokera, hanyuma bakaba bacumbikamo cyangwa se bakaba babasha gufatirayo icyo kunywa n'icyo kurya hanyuma bakarushaho kwishima.

Pisine hakaba ari ahantu abantu bashobora kugenda bakogera ndetse bikaba bigaragara yuko ahangaha ari muri hoteli, aho abantu bashobora gusohokera bakajya gufata icyo kunywa cyangwa se icyo kurya ndetse rimwe na rimwe bakaba babasha kuba baruhuka.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ndetse iruhande rw'umuhanda hakaba hagaragara amatara yabugenewe yo ku muhanda, bikaba hagaragara inyubako nziza, bikaba bigaragara yuko ari hoteli, aho umuntu ashobora gusohokera akabasha gufata icyo kunywa icyo kurya, ndetse akaba yanabasha kuruhuka.

Imitaka y'ubururu n'intebe zo kwicaraho ndetse na pisine bikaba bigaragara yuko ahangaha ari muri hoteri, aho abantu bashobora gusohokere hanyuma bakarushaho kwidagadura.

Abantu batandukanye ndetse bigaragara yuko hari abarimo gutanga serivise hari nabaje bashaka serivise bigaragara yuko ahangaha ari mu biro ndetse akaba ari ikigo kitwa Britam ikigo cy'ubwishingizi aho gifasha abakigana bashaka kwishinganisha.

Inyubako y'igorofa bikaba bigaragara yuko ikoreramo ibigo bitandukanye, aho hagaragara izina ry'ikigo purayimu inshuwarensi, iki kikaba ari ikigo cy'ubwishingizi, aho gitanga serivisi mu bijyanye no kwishingira abantu mu bijyanye n'imitungo ya bo cyangwa n'ibindi bintu baba bakeneye ko bishinganisha.

Inzu nziza ndetse biragaragara yuko iriho izina rya ikigo ariyanze, bikaba bigaragara yuko ari ibiro bikorerwamo niki kigo cya ubwishingizi, aho umuntu wese ukeneye serivise zijyanye nokwishinganisha ashobora kubagana hanyuma bakamufasha.

Inyubako ndende y'igorofa ndetse hakaba hagaragaramo izina ry'ikigo gikoreramo kitwa SONARWA, iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi aho kibasha kwishingira abantu kubijyanye n'imitungo yabo ndetse no mungorane bahura nazo bakabasha kwishingirwa.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo abantu batandunkanye ndetse iruhande rwaho hakaba hagaragara inyubako nziza ikoreramo ikigo cyitwa radiyanti, akaba ari ikigo gishinzwe ubwishingizi aho umuntu wese ukeneye serivise kugira ngo yishinganishe ajyayo bakabasha kumufasha.

Intebe nziza ndetse n'ameza ndetse haragaragara n'abantu, imbere yabo hateretse za mudasobwa, hagaragara n'umuntu waje agana serivisi zaho, bikaba bigaragara yuko ari mu biro by'ikigo gishinzwe ubwishingizi, aho umuntu wese uza ukeneye serivisi zo kwishinganisha abasha kubasanga bakamufasha.

Inyubako nziza iriho ibirango by'ikigo cyitwa sonarwa. Iki akaba ari ikigo cy'ubwiteganyirize ndetse n'ubwishingizi bw'abakozi, aho gitanga serivise zitandukanye zo kwishingira abantu bijyanye n'imitungo yabo.

Ibiro birimo ibikoresho bitandukanye yaba intebe zidufasha kwicara, ndetse hakaba harimo n'amamashini, hakaba harimo n'abantu ndetse bari kuri za mudasobwa bikaba bigaragara yuko ahangaha ari mu biro, ndetse akaba ari ibiro by'ubwishingizi, aho abantu bagenda kugira ngo babashe kwishinganisha kubujyanye n'imitungo yabo.

Urupapuro rukunda kwifashishwa cyanecyane muri banki igihe cyose ari uwo bageneye guha inguzanyo aho barumuha akabasha kurwuzuza kugirango babashe kumenya umwirondoro wubo bahaye inguzanyo kugirango bazabashe kumukurikirana.

Urupapuro rugaragara ho izina ry'ikigo GT bank. Iyi ngiyi akaba ari banke aho umuntu wese waba ukeneye inguzanyo ashobora kwifashisha iki kigo k'imari kikabasha kuyimuha hanyuma nawe akabasha kwiteza imbere akava mu bukene.

Icyapa cya banki yitwa BPR. Iki cyapa kirashishikariza abantu b'ingeri zose kugana iyi banki ngo ibahe inguzanyo, kuko bayitanga mu buryo bworoshye kandi nta nyungu y'umurengera bashyizeho.

Icyapa kiriho umuntu bikaba bigaragara yuko hariho n'izina ry'ikigo cy'imari aho barimo kwamamaza uburyo bashobora kuba batanga inguzanyo ku bantu bose bakwifuza kubagana hanyuma bakabafasha mu muvuduko w'iterambere mu buryo bwihuse.

Urupapuro ruriho izina ry'ikigo enisibiyeyi ndetse haragaragaraho abantu babiri bikaba bigaragara yuko ari ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo ku bakiriya bayikeneye.

Urupapuro ruriho umuntu wishimye uteze igitambaro mu mutwe rukaba ruriho izina bipiyara iyi akaba ari banki y'abaturage ifasha umuturage mu kwiteza imbere imuha inguzanyo kugira ngo arebe ko yatera imbere mu buryo bwihuse.

Ibiro birimo ibikoresho bitandukanye, birimo intebe ndetse na za mudasobwa, ndetse imbere kuri ekara hakaba hagaragara umuntu, bigaragara yuko ari kwamamaza ibijyanye no kuba ikigo cyatanga inguzanyo.

Abantu batanu b'abamama bacyenyeye neza cyane ndetse n'umugabo uhagaze iruhande rwabo, n'undi mugabo ushinzwe umutekano nawe uhagaze. Bakaba bari imbere y'ikigo cyitwa unguka fayinanse, gishinzwe gutanga Inguzanyo ku bakigana.

Inyubako ibaragara ho icyapa k'izina ryitwa kopedu. Ikingiki akaba ari ikigo k'imari aho umuntu ashobora kukigana kikabasha kumuguriza amafaranga igihe cyose ayifuza ahakeye kugira ngo iterambere ry'iwe ryihute.

Abantu benshi batandukanye ndetse aho baje haragaragara izina ry'ikigo kitwa Ekwiti, iyi akaba ari banki aho ari ikigo gifasha abantu kugira ngo babashe kuba babona inguzanyo hanyuma nabo babashe kwiteza imbere mu buryo bwihise.

Icyapa kiriho umuntu ndetse hakaba hagaragaraho n'izina ry'ikigo rya BPR. Iyi akaba ari banki, ikigo cy'imari aho gitanga inguzanyo ku bantu bayikeneye kugira ngo bagire iterambere ryihuse.

Intebe nziza ndetse n'ameza, ndetse bikaba bigaragara yuko aha ngaha ari mu biro by'ikigo cy'imari gishinzwe gutanga inguzanyo kugira ngo umuturage uyibonye arusheho kwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Abantu babiri umwe akaba atwaye imodoka undi akaba ari hanze yayo, bakaba bagaragaza uburyo iki kigo kitwa banke ofu Afurika gitanga inguzanyo ukaba wabasha kuba wabona ibyo ukeneye byose mu buryo bwihuse.

Abantu batandukanye harimo abicaye ndetse n'abahagaze bigaragara yuko bari kwakira serivise bikaba bigaragara yuko ari ikigo kitwa umwarimu sako ikigo k'imari gikunze gufasha cyane cyane abarimu kugira ngo babe babona inguzanyo mu buryo bworoshye kugira ngo na bo biteze imbere.

Ibicuruzwa bitandukanye birimo imineke ndetse n'imyenda, n'ibikoresho bitandukanye bikaba bigaragara yuko ari mu isoko, aho umuntu wese ufite amafaranga ashobora kugenda akagura ikintu cyose yifuza hanyuma akagicyura iwe.

Isoko ry'ibiribwa ririmo voka, imineke, inanasi, ibishyimbo n'ibindi. Ku ruhande hicaye umugore ukuze, bisa nk'aho ari we uri gucuruza.

Ibiribwa bitandukanye birimo inyanya, intoryi, imiteja, ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye biri kugaragara hano, hakaba harimo n'abantu aha ngaha akaba ari mu isoko aho umuntu ashobora kugenda akagurira ibyo akeneye byose.

Imyenda itandukanye imanitse harimo ibitenge, ndetse n'imitako itandukanye, n'abantu bahagaze batandukanye, bigaragara yuko bagiye mu iduka kugura ibyo bakeneye.

Abantu batandukanye ndetse haragaragaramo n'imitaka itandukanye hakagaragara ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye birimo n'imyenda, ahangaha akaba ari mu isoko aho abantu bashobora kugenda bakagura ibyo bakeneye byose cyangwa se abacuruzi bakaba bacuruza ibicuruzwa bitandukanye.

Ibiribwa bitandukanye birimo igitoki, karoti, ibitunguru, inyanya, ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye bikaba bigaragara yuko aha ngaha ari mu isoko aho abantu bajya guhahira.

Umugore bigaragara yuko hari ibyo ahetse ku mutwe, ndetse iruhande rwe hari ibicuruzwa bitandukanye, ndetse n'abantu n'imodoka muri rusange. Bikaba bigaragaza yuko ari mu isoko ndetse ahangaha akaba ariho abantu bajya bagiye kugura ibyo bakeneye byose.

Isoko riciriritse ry'ibiribwa; iryo mu cyaro bita 'ubudara'. Muri iri soko harimo abantu bari gucuruza inyanya, amashusho, ibitunguru ndetse n'ibindi byinshi.

Abantu batandukanye bahagaze ndetse hari nabicaye bikaba bigaragara Yuko ahangaha ari mu isoko Aho umuntu ashobora kujya kugurayo ibicuruzwa bitandukanye birimo ibiribwa birimo imyambaro ndetse Nikindi kintu cyose yakenera.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandunkanye harimo imitako, harimo imyenda, harimo imyambaro, harimo ibikapu, bikaba bigaragara yuko harimo n'abacuruzi, aha ngaha akaba ariho abantu bose bafite amafaranga bifuza kugira icyo bagura bagenda hanyuma bakabasha kugihabwa.

Abantu batandunkanye ndetse hakaba hagaragara abicaye ku mashini bari kudoda n'undi umwe uhagaze hakaba hagaragara ibicuruzwa bitandukanye ndetse hakaba hagaragaramo cyane iby'imitako bikaba bigaragara yuko aha ngaha ari mu isoko aho umuntu ashobora kujya kuhagurira ibintu bitandukanye yakoresha mu rugo.

Abantu babiri ndetse umwe akaba yambaye umupira w'umweru n'umuhondo ndetse hakaba hagaragara n'igitambaro cy'umuhondo kiriho ibirango by'ikigo cyitwa emutiyeni, ikingiki akaba ari ikigo gishinzwe itumanaho ndetse uyu akaba agaragara nk'umukozi wabo ushinzwe gutanga serivise zose zitangwa n'iki kigo.

Abantu bambaye imipira y'imyeru ndetse n'umuhondo, imbere yabo hateretse za mudasobwa, ndetse imbere yabo biragaragara yuko hari abaje babagana, aba bakaba bakorera ikigo cya Emutiyeni, ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho.

Abantu batandukanye ndetse bicaye munsi y'umutaka, haragaragara umukozi wa emutiyeni akaba arimo aratanga serivise z'icyo kigo cya emutiyeni, harimo ibijyanye n'igurisha rya telefone ndetse na simukadi, aho bafasha no mu bijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi akaba afashe telefoni mu ntoki, ndetse imbere yiwe hakaba hateretse ibicuruzwa bitandukanye harimo inyanya, bikaba bigaragara yuko ari gukoresha telefoni mu kwishyura ibicuruzwa bitandukanye, ndetse no kuba yakohereza amafaranga ku bantu batandukanye.

Ikiganza gifashe terefone mu ntoki ndetse imbere yaho haragaragara icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo kiriho kode bishyuriraho. Ahangaha bakaba barimo kugaragaza uburyo umuntu yakWishyu akoresheje terefone, hanyuma akishyura ibicuruzwa byose.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ndetse hakaba harimo n'umuntu wambaye umupira w'umuhondo, hakaba hagaragaraho ibirango by'ikigo cya Emutiyeni ndetse hakaba hagaragara n'inzu nini iri mu ibara ry'umutuku, hakaba hariho izina ry'ikigo cyitwa Eyateli, ibi byose akaba ari ibigo by'itumanaho.

Abantu babiri bafashe terefone mu ntoki ndetse hakaba hagaragara n'akamashini gateretse ku meza, aho bagaragaza yuko umuntu ashobora kwifashisha terefone hanyuma akabasha guhaha ibicuruzwa byose akeneye guhaha akabasha kubyishyura kandi akoresheje terefone.

Ameza ateretseho za mudasobwa ebyiri ndetse hakaba hagaragaraho n'ibipapuro biri mu ibara ry'umuhondo ndetse inyuguti zikaba yanditse mu ibara ry'ubururu n'umukara, bikaba bigaragara yuko hariho imibare yifashishwa mu kugira ngo hishyurwe serivise yatanzwe mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Akazu gasize irangi ry'umuhondo ndetse hakaba hagaragaraho n'ibirango by'ikigo cyitwa emutiyeni, hakaba hagaragaramo n'umukozi abo twita ajenti bafasha kugira ngo batange serivise iki kigo gitanga, kirimo serivise za telefone ndetse harimo serivise zo kubitsa no kubikuza amafaranga hakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Icyapa cya sosiyete y'itumanaho ya MTN, gishishikariza abantu kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Abantu batatu, umwe akaba ari kwakira babiri, ahangaha akaba ari mu iduka rya emutiyeni, ikigo cy'itumanaho gishinzwe gutanga serivise zitandukanye, ndetse kigurisha n'amatelefone ku baturage.

Umuntu uhagaze wambaye umupira w'icyatsi ndetse akaba afashe ku gasanduku kanditseho vubavuba iki ngiki akaba ari ikigo gishinzwe kuba cyatwara ibicuruzwa kibijyana ku bantu cyanecyane baba babiguze bakoresheje ikoranabuhanga aho babibashyira mu rugo iwabo.

Urupapuro rujyanye no kwamamaza serivise zijyanye n'ubucuruzi bukoreshwa ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora kuba ari mu rugo iwe, agafata telefone yiwe cyangwa se agafata mudasobwa ye akabasha gutumiza ibicuruzwa byawe yibereye mu rugo bakabimugezaho.

Icyapa kiriho umuntu wicaye ndetse imbere yiwe hateretse mudasobwa, aha ngaha bakaba barimo kwamamaza uburyo umuntu ashobora gukoresha ikoranabuhanga , hanyuma akabasha guhaha ibicuruzwa byiwe akoresheje telefone ndetse akoresheje na mudasobwa hanyuma ibicuruzwa bikabasha kumugeraho atavuye aho ari.

Abamotari batandukanye bambaye cyane cyane umutuku ndetse hakaba hariho n'ijambo ryanditseho yego moto ikingiki kikaba ar'ikigo gishobora kwifashishwa kugira ngo kibashe kugeza ibicuruzwa ku bantu bari mu ngo zabo.

Urupapuro ruriho umuntu akaba ahetse agakapu mu mugongo, ahangaha akaba ari uburyo bwo kumenyekanisha ubucuruzi bukoreshwa hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Icyapa kigaragaza ubucuruzi bushobora gukorwa bukorewe mwikoranabuhanga aho umuntu ufite mudasobwa cyangwa se telefoni yiwe, ashobora kwicara murugo iwe hanyuma agatumiza ibicuruzwa byose akeneye bikabasha kumugeraho yibereye murugo iwe.

Ibinyabiziga bitandukanye birimo amamodoka ndetse hakaba n'umuntu uhagaze wambaye kasike, hakaba hagaragara kandi n'ipikipiki ihetse agasanduku kari mu ibara ry'umutuku, bikaba bigaragara yuko ari ikigo gishinzwe kujyana ibicuruzwa kubabiguze bakoresheje ikoranabuhanga.

Icyapa kiriho telefone igaragaramo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse ahangaha bakaba bari kwamamaza uburyo bw'ikoranabuhanga bushobora gukoreshwa, aho umuntu ashobora gufata telefone yiwe, hanyuma, agahaha ibicuruzwa byose akeneye, bikamugera ho atavuye aho ari.

Icyapa cyamamaza kigaragaza ubucuruzi bukoreshwa habayeho ikoranabuhanga aho umuntu ashobora gufata telefone yiwe cyangwa se mudasobwa yiwe hanyuma agatumiza ibicuruzwa byose akeneye bikabasha kumugeraho atavuye mu rugo.

Inzu nziza irimo ibikoresho byose ushobora gukenera ndetse bikaba bigaragara yuko iriho n'igiciro ushobora kuyikodesha ku kwezi, aho mu by'ukuri ari imiturire myiza. Umuntu wese ufite ayo mafaranga wifuza kuba yahakodesha ashobora kugenda bakahamuha.

Inzu nziza yubatse neza irimo ibikoresho bitandukanye ndetse hakaba hagaragara n'amafaranga iyo nzu ishobora kuba yakodeshwa ku kwezi, ibingibi bikaba biri mu miturire myiza aho umuntu wese ufite amafaranga abasha kuba yagenda akabasha kuyimukodeshaho.

Inzu nziza yubatse neza iri mu gipangu ndetse bikaba bigaragara yuko hari igiciro runaka cy'amafaranga ishobora kuba yagurishwaho aho umuntu ufite ayo mafaranga ashobora kugenda akumvikana hanyuma bakayimugurisha ikaba iye.

Inzu nziza yubatswe kumuhanda wa kaburimbo, ndetse bikaba bigaragara yuko ishobora kuba yakodeshwa cyangwase ikagurishwa, ahangaha bakaba babikora kugira ngo barusheho kwamamaza ibikorwa bijyanye n'imiturire, kugirango umuntu ufite amafaranga yiwe abe yabasha kujyayo abashe gukodesha cyangwa se kuba yagura, abashe gutura heza.

Inzu nziza irimo ibikoresho byose bikenewe ndetse bakaba bagaragaza n'amafaranga ishobora gukodeshwa ku kwezi, ahangaha bakaba bagaragaza ndetse ko ari imiturire myiza aho umuntu afite amafaranga ashobora kugenda akumvikana nabo akabasha kuba yahatura.

Inyubako nziza irimo ibikoresho byose umuntu yakenera ndetse bakaba bagaragaza n'igiciro cy'amafaranga ishobora gukodeshwa ku kwezi, aho aha ngaha ari kimwe mu bikorwaremezo kigaragaza yuko ari imiturire myiza, aho umuntu ufite aya mafaranga avuzwe aha ngaha, abasha kugenda bakabasha kumukodesha, akabasha kuyibamo.

Igipangu cyiza bigaragara yuko kirimo inzu nziza, ndetse bakaba bagaragaza nigiciro cya amafarabga umuntu ashobora kuhakodesha kukwezi, aho umuntu wese ufite amafaranga yavuzwe , abasha kujyayo akumvikana nabaho hanyuma inzu akabasha kuba yayikodesha ku kwezi.

Inzu nziza yubatse neza irimo ibikoresho bitandukanye, ahangaha umuntu wese ushobora kuba afite ubushobozi bwo kujya kuhaba, akaba yabasha kujya kuhaba hanyuma akaba ari mu nzu yubatse neza kandi atuye ahantu heza.

Inyubako yubatse neza, irimo ibintu byose bya ngombwa bikenewe, ndetse bakaba bagaragaza igiciro iyi nyubako wabasha kuyigura, aho umuntu ufite amafaranga yavuzwe ashobora kugenda akumvikana na bo, hanyuma bakayimuha ikaba iye.

Inzu nziza yubatse neza, ikaba irimo ibyangombwa byose bikenerwa, ndetse bakaba bagaragaza yuko hari igiciro runaka ku kwezi umuntu ashobora kubikodesha. ibingibi bikaba ari bimwe mubigiza imiturire myiza, aho umuntu ufite amafaranga ashobora kujyayo hanyuma agakodesha.

Inzu nziza yubatse neza ya yetaje ndetse aho binjirira hahagze umuntu, bakaba bagaragaza igiciro iyi nzu ishobora gukodeshwa, aho umuntu ufite amafaranga yavuzwe ashobora kujyamo akayikodesha.

Inzu nziza yubatse neza bikaba bigaragara yuko ishobora no kuba yakodeshwa, aho umuntu wese ufite mafaranga ashobora kugenda akumvikana n'abayubatse hanyuma bakajya kuyimukodesha, akabasha kuba yakwiturira ahantu heza kandi yishimiye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye imyenda, inkweto, imitako ndetse haragaragaramo n'abantu batandukanye baje guhaha. Ahangaha akaba ariho abantu basohokera igihe cyose bifuza kugira icyo bagura, kugirango bakijyane mu rugo.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye ndetse haragaragaramo n'abantu benshi batandukanye baje bahagana baje kugura, ahangaha rero akaba ariho abantu batandukanye bafite amafaranga yabo babasha kujya bagahaha ibicuruzwa byose bakeneye hanyuma bakabasha kubitwara.

Iduka ritandukanye ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye ndetse haragaragaramo abantu benshi batandukanye bari guhaha ibicuruzwa byabo ahangaha umuntu wese ufite amafaranga akaba abasha kujyayo akabasha guhaha ikintu cyose yifuza mu mafaranga yaba afite.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandunkanye ndetse hakaba hagaragara n'umuntu ushinzwe kwakira abagana iryo duka ndetse hakaba hagaragaramo n'abaguzi batandukanye, aha ngaha akaba ariho abantu babasha guhahira ibintu byose bakeneye igihe cyose bafite amafaranga.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye ndetse hakaba hagaragaramo n'abantu batandukanye baje mu iduka, aha ngaha akaba ari ahantu abantu babasha kujya igihe cyose bafite amafaranga yabo haribyo bakeneye kugura birimo ibyo kurya, birimo ibyo kwambara n'ibindi bintu byose bakenera.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandunkanye ndetse hakaba harimo ibiribwa , harimo n'imitako n'ibindi byose umuntu yakenera, aha ngaha akaba ariho umuntu abasha kujya igihe cyose afite amafaranga hari icyo akeneye kugura hanyuma bakabasha kuba bakimuha.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo inkweto, harimo imikandara ndetse n'ibikapu, aha ngaha akaba ariho abantu babasha kujyayo, igihe cyose bafite amafaranga hari icyo bifuza kugura, bakaba babasha kuba bagihabwa.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo; imyenda, inkweto ndetse n'ibindi bicuruzwa ahangaha hakaba ariho abantu abakunze kujya igihe cyose bafite amafaranga haricyo bifuza kugura kugira ngo babashe kuba bakigura.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandunkanye ndetse haragaragaramo n'abantu batandukanye bari muri iryo duka, bari gutanga serivise zitandukanye z'ibicuruzwa ndetse haragaragara n'abaje bahagana aha ngaha hakaba ariho abantu bose bafite amafaranga bashobora kuba baza kugira ngo babashe guhaha ibyo bifuza.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye ndetse hakaba hagaragaramo abacuruzi, hakagaragaramo n'abaguzi bagiye kugura bikaba bigaragara yuko ari ahantu umuntu wese ufite amafaranga ashobora kuba yajya akabasha guhaha igicuruzwa cyose ku mafaranga afite hanyuma akagitahana murugo.

Intebe zitandukanye ndetse na ameza, ndetse hakaba hagaragara na umuntu ahagaze ari imbere yiwe hari imashini, bikaba bigaragara yuko aha ari mu iduka aho umuntu ashobora kujya kugurira ibicuruzwa bitandukanye yarangiza akajya kwishyura akoresheje uburyo bw' ikoranabuhanga.

Abantu batandukanye ndetse biragaraga yuko harimo abicaye bambaye imyenda yanditseho arayesesibi, bikaba bigaragaza yuko ari abakozi b'icyo kigo gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi, ndetse bikaba bigaragara yuko hari abandi bantu baje babagana bakeneye serivise zitandukanye zijyanye n'ubwishingizi ndetse n'ubwiteganyirize.

Icyapa kiriho abantu basuhuzanya, ndetse kikaba kiriho ikirango cy'Ikigo cy'Ubwiteganyirize mu Rwanda (RSSB). Iki cyapa kiri gukangurira abantu gukoresha serivisi zitangwa na RSSB.

Ikarita iriho ifoto y'umuntu izwi ku izina rya mituweri, ndetse iruhande rwayo hakaba hari irangamuntu. Ibi bikaba bikoreshwa igihe cyose umuntu agiye kwa muganga agiye kwivuza, aho abasha kuyitanga hanyuma bakamuha serivise y'ubuvuzi yose akeneye.

Umuntu ufashe icyapa ndetse bikaba bigaragara yuko iki cyapa kiriho amafaranga yaba yarabashije kubona, hakaba hariho izina ry'ikigo RSSB, iki akaba ari ikigo gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi, aho gishishikariza abantu kugira ngo babashe kujyamo kugira ngo ejo habo hazabe heza igihe cyose bizigamiye cyangwa biteganyirije.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku aricaye. Inyuma ye hari icyapa cy'umweru n'ubururu, cyanditseho izina ry'Ikigo cy'Ubwiteganyirize mu Rwanda, RSSB. Birasa nk'aho uwo mugore atanga serivisi z'icyo kigo.

Abaturage batandukanye ndetse bikaba bigaragara yuko bari bahujwe kugira ngo babashe gusobanurirwa gahunda ijyanye no kwiteganyiriza, kugira ngo bazabashe kugira ubuzima bwiza, bikaba bigaragara yuko bari barimo barabaganiriza uburyo babasha nabo kwiteganyiriza, hanyuma iterambere ryose bifuza rikabasha kubageraho.

Abantu babiri bicaye ndetse imbere yabo hakaba hari za mudasobwa ndetse bakaba bafite n'indangururamajwi, bikaba bigaragara y'uko bakora mu nzego za leta kuko imbere yabo hari igipapuro cyanditseho RSSB, akaba ari ikigo gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi.

Icyapa kiriho abantu babiri, ndetse hakaba hagaragaraho n'izina ry'ikigo kitwa ara esi esi bi, ikigo gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi, ndetse hakagaragaraho n'ijambo ejo heza rikoreshwa kugira ngo bashishikarize abantu kwizigamira kugira ngo barusheho kuzagira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye ndetse haragaragaramo abantu bari mu iduka kugira ngo babashe guhaha ibicuruzwa byose bashaka, ahangaha umuntu wese umuntu wese ufite amafaranga akaba yemerewe kujyamo hanyuma agahaha ibijyanye n'ubushobozi bw'iwe.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imbuto ndetse n'ibiribwa muri rusange, hakaba hagaragara n'abantu baje guhaha, ahangahe umuntu wese ufite amafaranga akaba ajyayo, akabasha guha icyo akeneye cyose, akabasha kugitahana mu rugo, kugirango abashe kugikoresha icyo akeneye.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye ndetse hakaba hajemo abantu batandukanye mu iduka, harimo abaje kugura ndetse n'abakorana n'ikigo cyitwa Emutiyeni gishinzwe itumanaho aho abo bantu tubita aba ajenti bagenda badufasha mu bintu bijyanye no kubikuza ndetse no kubitsa amafaranga.

Ibicuruzwa bitandukanye biri muri etajeri ndetse haragaragara n'umuntu ufashe terefone mu ntoki, iyi ikaba idufasha mu bijyanye no guhamagara ndetse no kwitaba ndetse no kwishyura ibicuruzwa byose dukoresha terefone.

Iduka rinini cyane ririmo ibicuruzwa bitandukanye. Umugabo uri imbere y'abandi, wambaye umupira w'umukara, afite akantu ari gushyiramo ibyo ashaka kugura.